Umugabo uri gufuhira imboga z'amashu, imboga z'amashu ni imboga nziza cyane, zigiraga intungamubiri itandukanye ku mubiri w'umuntu.

Umuntu uri gutera umuti mu gihingwa cy'umuceri. Umuceri ni mwiza cyane ,ufasha mu kuzana vitamini mu mubiri ,ku muntu waziriye.

Umufuka urimo umuti witwa detane. Uyu muti ni mwiza cyane wifashishwa ku myaka, kugira ngo uyirinde udukoko tugiye dutandukanye tuyibasira.

Umuntu uri gutera umuti mu mbuto y'ibirayi. Gutera umuti ni byiza cyane ,kuko birinda imyaka kwangirizwa n'udukoko dutandukanye.

Abagabo babiri, bari gufuhira umuti mu myaka y'ibigori, ibigori ni byiza cyane, kubyitaho ni byiza cyane, kuko bifite akamaro kenshi, harimo nko gutanga intungamubiri ku muntu wabiriye.

Umuti w’ibihingwa birimo nk’inyanya, umuceri n’ibindi. Umuti ni mwiza cyane, ufasha mu kurinda udukoko twakwibasira igihingwa cyawe.

Inyanya zitari zera neza. Inyanya ni igihingwa cyiza cyane, iyo wakitayeho kikuzanira rwose amafaranga, kandi inyanya zihiye zibamo vitamini zitandukanye.

Umuntu uri gufuhira umuti mu bigori, kwita ku bigori ni byiza cyane, kuko na byo bitanga intungamubiri, ku mubiri w'umuntu.

Ifumbire y'imborera irunze mu gitari. Ifumbire y'imborera ni ifumbire nziza cyane ikomoka ku matungo, ifasha ibihingwa byacu gukura neza.

Ifumbire y'imborera iri mu mufuka ipakiyemo. Ifumbire ni nziza cyane ifasha igihingwa gukura neza.

Abantu bari gushyira ifumbire ku bihingwa by'ikawa. Ikawa ni nziza cyane kuko itanga amafaranga ku muntu wayihinze.

Abagabo bari gutwara ifumbire. Ifumbire ni nziza cyane, ikomoka ku matungo kuko ifasha ibihingwa gukura neza.

Ibizenga bimeze nk'aho cyororerwamo amafi, amafi ni meza cyane, iyo wayariye ubona intungamubiri zigiye zitandukanye.

Amafi akiri mabisi. Amafi ni meza cyane ku mubiri w'umuntu wayariye, agira vitaminini nyinshi zitandukanye.

Amafi yasandaguritse mabisi. Amafi ni meza cyane, kuko agira intungamubiri nyinshi zitandukanye, ku mubiri w'umuntu.

Udufi dutoya turi hamwe. Udufi ni twiza cyane kuko na two dukubiyemo intungamubiri zigiye zitandukanye zifasha umubiri w'umuntu.

Amafi yashyizwe mu tuntu tw'umweru twabugenewe . Amafi mabisi, ni meza cyane, kuko , agira intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu.

Amafi aziritse ku kintu kimwe, amafi ni meza cyane agira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Amafi akiri mazima ari koga. Ifi ni nziza cyane kuko ifite intungamubiri zigiye zitandukanye mu mubiri wacu.

Ifi iteguye neza. Ifi ni nziza cyane k'umuntu wayiriye, kubera ko igira intungamubiri zitandukanye.

Amafi mabisi iyo atetse neza agira intungamubiri ku mubiri w'umuntu, amafi ni meza ku mubiri w'umuntu kuko agiraga intungamubiri nyinshi.

Amafi arunze ahantu hamwe, amafi ni meza cyane, kubera ko afasha mu kuzana vitaminini mu mubiri w'umuntu zigiye zitandukanye.

Ibiryo biteguye neza biriho n'ifi. Ifi ni nziza cyane kuko igira intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu zigiye zitandukanye.

Amafi ahiye ari mu kadobo, amafi ni meza cyane kuko afite vitamini nyinshi zigiye zitandukanye zifasha umubiri w'umuntu gukura neza.

Amafi ari mu bikoresho byabugenewe. Amafi ni meza cyane kubera ko agira intungamubiri nyinshi cyane.

Amafi ari ahantu hamwe akiri mabisi, ifi ni nziza cyane, igira intungamubiri ku mubiri w'umuntu, ikamuha vitamini akeneye.

Amafi asa nk'aho bayashyize muri barafu. Ifi ni nziza cyane. Ni ikiribwa gikize kuri vitamini nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Ifi iteguye neza, iriho indimu, igitunguru, n'urunyanya, ibi ni byiza cyane ku mubiri w'umuntu, kuko byose bikize ku ntungamubiri zigiye zitandukanye.

Umugezi munini uri gutemba, umugezi ufasha amafi kororoka n'ibindi binyabuzima bigiye bitandukanye, kandi amazi yawo akurura imvura.

Udufi dutoya turi mu mabase twarobwe, utu dufi ni twiza cyane, kuko dufite intungamubiri nyinshi umubiri w'umuntu ukeneye.

Ifi iteguye neza cyane, ifi ni nziza cyane, kubera ko ibamo intungamubiri zigiye zitandukanye, zifasha umubiri gukura neza.

Amafi abaze. Amafi ni meza cyane ku mubiri w'umuntu, kuko akubiyemo intungamubiri nyinshi, zigiye zitandukanye.

Ikiyaga cya Kivu ni ikiyaga cyiza cyane kiri mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Iki kiyaga gifitiye igihugu akamaro kanini cyane, kuko gikurura ba mukerarugendo bazanye amafaranga.

Ifi iteguye neza cyane, ifi ni nziza cyane ku muntu wayiriye, ifi igira intungamubiri nyinshi, ku mubiri w'umuntu wayiriye.

Abantu benshi bagiye kuroba amafi, amafi ni meza cyane, iyo umuntu ayariye aba ariye intungamubiri nyinshi cyane.

Iyi fi iteguye neza cyane. Iyi fi ni nziza cyane, kuko igira intungamubiri nyinshi, ku mubiri w'umuntu wayiriye.

Amafi menshi mabisi. Amafi ni meza cyane, amafi agira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu wayariye.

Ifi isa nk'aho ikiri mbisi, ifi ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu wayiriye, kuko irimo vitaminini nyinshi cyane.

Inyama zitetse neza zirimo n'ibitunguru na teyi. Inyama ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu waziriye, kubera ko zigira vitamini zigiye zitandukanye.

Ifi iteguye neza cyane. Ifi ni nziza cyane kuko ifite intungamubiri nyinshi cyane, zifasha umubiri w'umuntu.

Amafi abiri ari ku gasahani, amafi ni meza cyane agira intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye, zifasha umubiri w'umuntu.

Amafi ari ahantu habugenewe, amafi mabisi, ifi ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu, iyo yayiriye aba yariye vitamini zigiye zitandukanye.

Ifi iteguye neza cyane. Ifi ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu wayiriye, izana intungamubiri nyinshi mu mubiri w'umuntu wayiriye.

Amafi ameze nk'aho akiri mabisi. Amafi ni meza cyane, kuko yongera intungamubiri ku mubiri w'umuntu wayariye.

Inyama, indimu n'ifi biteguye neza. Ibi bintu ni byiza cyane, kuko byose bifite vitamini ku mubiri wacu.

Amafi abiri arunze, asa nkaho akiri mabisi, amafi ni meza cyane, kuko afite intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri.

Udufi duto turunzwe ku ntara .Utu dufi ni twiza cyane kuko na two tuzana intungamubiri mu mubiri w'umuntu waturiye.

Umuntu uri kurobesha ubwato, kuroba n'umwuga mwiza watuma uteza imbere, umuryango wawe ukihaza no mu biribwa bifite vitamini nyinshi cyane, birimo nk'amafi.

Ifi ikiri mbisi, ifi ni nziza cyane, kubera ko yifashishwa mu kongera intungamubiri, mu mubiri w'umuntu.

Ifi idahiye iri kumwe n'inyanya, ifi ni nziza cyane, kuko ikungahaye kuri vitamine zitandukanye, umubiri wacu ukeneye.

Amafi yashyizweho barafu, amafi ni meza cyane, kuko agira intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu wayariye.

Amafi mabisi ari mu gasahane, amafi ni meza cyane kuko agira intungamubiri zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu wayariye.

Iyi fi iteguyeye neza. Iyi fi ni nziza cyane igira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Amafi asa nk'aho ari mabisi, amafi ni meza cyane, amafi agira intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu zitandukanye.

Inyama iteguye neza cyane iriho n'indimu. Inyama ni nziza cyane kuko ifite intungamubiri ihagije ku mubiri w'umuntu.

Ifi iteguye neza iri ku isahani y'umweru, ifi ni nziza cyane kuko igira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu wayiriye.

Ibirayi bitari byera. Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, ibirayi ni byiza ku muntu wabiriye, kubera ko byongera imbaraga mu mubiri we.

Ibitoki bisa nk'aho byeze, ibitoki ni byiza cyane, kuko bikubiyemo vitamini zigiye zitandukanye, umubiri uhora ukeneye.

Igitari giteyemo ibiti byinshi. Ibiti ni byiza cyane, kubera ko bifashaga mu gutanga umwuka duhumeka.

Ibirayi bihinzwe ahantu havuyemo n'ibigori. Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane. Iyo bisaruwe bigatekwa, bizana imbaraga mu mubiri ku muntu wabiriye.

Ibirayi bigiye kwera. Ibirayi ni byiza cyane, kuko iyo umuntu yabiriye umubiri we ugira imbaraga nyinshi.

Ibinyomoro bitari byera, ibinyomoro ni byiza cyane, kuko bigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu, harimo nko kumwongerera amaraso, cyangwa se n'izindi ntungamubiri.

Umurima uhinzemo ibitunguru. Ibitunguru ni byiza cyane, bifasha mu murimo w'ubutetsi kandi bikabamo n'izindi ntungamubiri zigiye zitandukanye.

Ibirayi bihinzwe bitari byera. Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, bizana imbaraga mu mubiri w'umuntu wakiriye.

Ibirayi bitari byera neza, ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, kizana imbaraga mu mubiri w'umuntu wakiriye.

Ibirayi bifite uruyange byenda kwera, ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, kigira intungamubiri nyinshi, cyongera imbaraga ku mubiri w'umuntu.

Igaraviye irunze ahantu hegereye ubutaka. Igaraviye ifasha abantu mu kubaka, ndetse no gushyira isima mu nzu. Ikifashishwa no kubaka imihanda.

Ibishyimbo bifite uruyange rw'umutuku n' amababi y'icyatsi. Ibishyimbo ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu zitandukanye.

Umurima uhinzemo igihingwa cya karoti. Karoti ni igihingwa cyiza cyane, gifite vitamini ifasha mu kuvura n'amaso yacu.

Igikuyu cy'ibyatsi, ibyatsi ni byiza kubera ko bifasha amatungo yacu mu gukura neza ndetse bikavamo n'ifumbire.

Utubuye tw'igaraviye turunze hamwe. Igaraviye ni nziza yifashishwa mu gukora umuhanda, ndetse no kubaka inyubako zigiye zitandukanye.

Ibyatsi n'ibigori, ibigori na byo ni igihingwa kivaho ibyatsi, bigafasha amatungo gukura neza. Na yo agatanga umusaruro n'amafaranga.

Urugo ruhinzeho ibitunguru n'imboga. Ibi bintu ni byiza cyane, kuko bifasha mu kongera vitamini ku mubiri w'umuntu, bidasabye igihe kirekire.

Ibigori bikiri mu murima bitari byasarurwa , bigori ni byiza cyane ,kubera ko bigira intungamubiri nyinshi zitandukanye.

Ibirayi bitari byera, ibirayi ni byiza cyane kuko bifite intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w' umuntu wabiriye.

Umurima uhinzemo amajeri, amajeri ni igihingwa cyiza cyane kuberako gikungahaye kuri vitamini nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Ibirayi bihinzwe mu rutoki, ibirayi ni byiza cyane, kuko bitera imbaraga mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Igiti cy' avoka: Voka ni nziza cyane, kubera ko zigira intungamubiri nyinshi cyane zifasha umubiri w' umuntu waziriye.

Isombe ni ubwoko bw'imboga abantu bakunda kurya cyangwa se bakabugaburira ubwoko bw'itungo bwitwa ingurube, isombe igira vitaminini nyinshi cyane, ingana n'iyimboga.

Ibirayi bitari byera byenda kugira uruyange. Ibirayi ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu, zitandukanye. Bikunze kugaragara no mu majyaruguru y'u Rwanda.

Ibirayi biri hamwe, ibirayi ni byiza cyane kuko byifashishwa mu kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Inyanya ziri mu dufuka tw'umweru, inyanya ni nziza cyane, kuko zikize kuri vitaminini zigiye zitandukanye.

Abantu bari gucuruza, abandi bari kugura imbuto zitandukanye, imbuto ni nziza cyane, kuko zigira vitamini nyinshi cyane.

Avoka n'umuneke, avoka ni nziza cyane n'imineke ni ubwoko bw'imbuto bukize kuri vitamini, umubiri wacu ukeneye buri munsi.

Isombe ni ubwoko bw'imboga zikungahaye kuri vitamini igiye itandukanye; isombe ni nziza cyane mu mubiri w'umuntu wayiriye.

Ibitunguru birunze hamwe, ibi bitunguru ni byiza cyane kubera ko birimo vitamini zigiye zitandukanye umubiri wacu ukeneye.

Igitoki kigiye kwera, igitoki kivamo imineke umuntu kikamwongerera intungamubiri zihagije ku mubiri we.

Ibishyimbo byiza bivangavanze. Ibishyimbo ni byiza cyane kuko byongera imbaraga, ku mubiri w' umuntu wabiriye.

Inkoko z'umweru. inkoko ni nziza cyane zitanga amagi, inyama, bigafasha kongera intungamubiri ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibigori bifite ibara ry' icyatsi. Ibigori ni byiza cyane kubera ko bizana intungamubiri mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibijumba ni byiza cyane, kubera ko bigira intungamubiri, ndetse bikongera imbaraga mu mubiri w'umuntu wabiriye, ibijumba ni byiza cyane ku buzima bw'umuntu.

Ubworozi bw'inkoko. Inkoko nyinshi cyane z'umweru. Inkoko ni nziza kubera ko zitera amagi, zikavamo inyama byose bifite vitamini zitandukanye.

Ingurube abantu bari kwitegereza zorowe ku buryo bwa kijyambere. Ingurube ni nziza cyane kuko zitanga inyama ndetse n'ifumbire, bigafasha imyaka.

Umugabo uri koroganiza inyanya mu dufuka ziva mu gatebo, inyanya ni nziza cyane, kuko zifite vitamini zigiye zitandukanye, ku mubiri w'umuntu waziriye.

Indimu ibumbye n'indimu isatuye. Indimu ni urubuto rwiza cyane rufite akamaro ko gukiza indwara zimwe na zimwe, mu mubiri w'umuntu wayiriye.

Igitoki kiri mu makoma menshi kitari cyera neza. Igitoki ni cyiza cyane, kuko kigira vitamini zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu.

Avoka nziza zifite ibara ry'icyatsi, ariko zidahiye, iyo uzitaze ukazifata ku mafunguro, zifasha umuntu mu kuzamura imirire myiza.

Abagore bari mu murima w'amashu. Amashu ni immboga nziza cyane, zikungahaye kuri vitaminini igiye itandukanye.

Imyumbati iteye hamwe mu murima munini. Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane kuko cyongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Puwavuro na karoti, puwavuro na karoti ni ubwoko bw'imboga, ariko bwiza cyane, bukubiyemo vitamini nyinshi zitandukanye.

Ubuhinzi bukorerwa mu nzu bw'ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane, kubera ko bifite akamaro ko kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Udushwi tw'inkoko tworowe ku buryo bwa kijyambere, inkoko ni nziza cyane, zigira amagi n'inyama, byose bikize kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Igishanga bahingamo umuceri. Umuceri ni igihingwa cyiza cyane, gikize ku ntungamubiri zitandukanye, zifasha umubiri wacu.

Umukumbi w'ihene, ihene ni amatungo magufiya, afite akamaro kanini, kuko atanga inyama zirimo vitaminini.

Avoka isatuye n'iyindi ibumbye. Avoka ni nziza cyane, kuko izana intungamubiri ku mubiri w'umuntu wayiriye.

Pome z'umutuku n'iz'icyatsi na oranje, ubwoko bw'imbuto bwiza cyane, bufite vitamini nyinshi cyane.

Abagore bane bari gusarura ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane, bikubiyemo intungamubiri, umubiri uhora ukeneye, harimo nko kongera imbaraga.

Ubwoko butandukanye bw'imbuto, buri mu kadobo kamwe, imbuto ni nziza cyane, iyo uziriye ubona intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye.

Inkoko zorowe ku buryo kwa kijyambere ziri gutoragura ibiryo, inkoko ni nziza cyane kuko zifite inyama zifite vitamini, zifasha umubiri w'umuntu wa....

Igihaza ni urubuto, ariko igihaza ni cyiza cyane, kuko ni ikiribwa gikize kuri vitamini nyinshi zitandukanye, umubiri wacu ukeneye buri gihe.

Umugore ufite ikigori mu biganza bye, ibigori ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri zitandukanye, mu mubiri ku muntu wabiriye.

Umugabo uteruye amatunda. Amatunda ni meza cyane ni ubwoko bw'imbuto bufasha mu kongera vitamini zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Abantu batatu bafite imboga z'amashu. Imboga z'amashu ni imboga nziza cyane, zigira vitamini zigiye zitandukanye zifasha umubiri w'umuntu.

Avoka igabyemo kabiri, avoka ni nziza cyane, kubera ko ibamo vitamini umubiri ukeneye.

Inkoko nziza cyane y'isake. Inkoko ni nziza kuko zitanga inyama zifite vitamini ku mubiri w'umuntu waziriye.

Amateke ateretse ahantu. Amateke ni meza cyane, agira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu, akamwongerera imbaraga.

Umugore umaze gukura imyumbati. Imyumbati ni myiza cyane kubera ko zongera imbaraga mu mubiri ku muntu waziriye.

Amajeri ari ku ntara. Amajeri ni meza cyane agira vitamini ku muntu wayariye. Amajeri ni meza ku mubiri wacu.

Ibisheke biteye hamwe. Ibisheke ni byiza cyane ngo byongera isukari mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Amateke ari mu kadobo. Amateke ni igihingwa cyiza cyane, gifasha umubiri w'umuntu mu kongera imbaraga umubiri we.

Abagore babiri bari guhinga. Guhinga ni byiza cyane kuko bituma abantu benshi batabura ibyo kurya ku miryango yabo.

Umuntu uri gusoroma ikawa. Ikawa ni nziza cyane, kubera ko iha umuntu wayihinze amafaranga akiteza imbere muri byose.

Imbuto z'amaronji ziri mu kantu kamwe. Amaronji ni meza cyane, ni imbuto nziza zirimo intungamubiri ifasha umubiri w'umuntu.

Ibiti birimo imbuto, imbuto ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu kuko zizana vitamini mu mubiri uko uwo umuntu waziriye.

Umurima uhinzwemo igihingwa cy'imyumbati, imyumbati ni myiza cyane ku muntu wayiriye, imwongerera imbaraga mu mubiri we, akamererwa neza.

Impeke z'ibigori ni ibigori byumye bikimanitse. Ibigori ni byiza cyane, ibigori bizana intungamubiri mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Abantu batatu bafite ubwoko bw'imboga butandukanye: Inyanya, dodo, bikaba ari imboga nziza cyane zikize kuri vitaminini umubiri w'umuntu ukenera buri gihe.

Ihene nziza ziziritse. Ihene ni amatungo magufi meza cyane agira akamaro kenshi. Harimo nko kuzana amafaranga mu muryango.

Igihingwa cy'ibirayi bitari byera, ibirayi ni byiza cyane bifite intungamubiri ,kandi byongera imbaraga mu mubiri wacu.

Ibice bibiri by'avoka, avoka ni nziza cyane, kuko ifite intungamubiri nyinshi, vitamini nyinshi ku mubiri w'umuntu wayiriye.

Umugore uri mu cyayi, icyayi ni cyiza cyane kigemurwa hanze, abagihinze n'abagisaruye bakabona ku mafaranga, bakiteza imbere.

Ihene nziza y'umukara iziritse, iri kurisha. Ihene ni nziza cyane kubera ko zitanga inyama, kandi zifite vitamini nyinshi cyane.

Ibigori bigiye kwera ariko bigisa n' icyatsi. Ibigori ni byiza cyane ni igihingwa cyiza kuko bikubiyemo vitaminini nyinshi zitandukanye.

Abantu bari gusoroma icyayi. Icyayi ni igihingwa cyiza cyane kizana amafaranga mu gihugu cyacu.

Voka isa n'umuhondo mo indani. Voka ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu wayiriye, kuko ifite vitamini nyinshi zitandukanye.

Umugore uri gukura karoti. Karoti ni nziza cyane kuko ikize ku ntungamubiri nyinshi cyane, harimo n'izifasha mu kurinda amaso yacu.

Imyembe irunze hamwe. Imyembe ni ubwoko bw'imbuto bwiza cyane, bugira vitamini zifasha umubiri w'umuntu.

Ibirayi birunze hamwe, ibirayi bikunze kwera mu majyaruguru, ibirayi ni byiza cyane kubera ko byongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Ibirayi birunze ahantu hamwe. Ibirayi ni byiza cyane kubera ko bigira intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Umuntu urimo kwita ku birayi . Ibirayi ni byiza cyane , kuko ni igihingwa cyongerera imbaraga umubiri w'umuntu wakiriye .

Inyanya zitari zashya zikiri ibitushi. Inyanya ni nziza cyane, zifasha abantu mu gukora isosi, kandi zikagira n'intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu.

Abahinzi bafite ibirayi mu biganza byabo. Ibirayi ni byiza cyane kuko iyi mbuto, cyangwa se ibiribwa bizana intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Umugore uri gusoroma icyayi. Icyayi ni igihingwa cyiza cyane, gifasha mu kuzana amafaranga ndetse no gutanga akazi ku bantu bamwe na bamwe bagisarura.

Ibigori byumye bimanitse, ibigori ni byiza cyane kuko bikize kuri vitamini umubiri wacu ukenera.

Ibinyomoro bitukuye, ibinyomoro ni byiza cyane, kuko bifite akamaro kanini ku mubiri wacu, harimo nko kongeramo amaraso.

Intoryi zifite ibara rya marongorwa. Intoryi ni igihingwa cyiza cyane, kigira vitamini ku muntu wakiriye.

Inka, inka ni nziza cyane kuko itanga amata ikavamo inyama, zifite intungamubiri nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Pavuro itukuye n'idatukuye, pavuro ni ubwoko bw'imboga bufite vitamini nyinshi cyane zitandukanye.

Ibirayi byasaruwe. Ibirayi ni byiza cyane, kuko bitera imbaraga mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Avoka isa n' icyatsi: Avoka ni nziza cyane igira intungamubiri, vitaminini zigiye zitandukanye umubiri wacu ukeneye burigihe.

Imifuka ipakiyemo ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane kubera ko bigira intungamubiri ifasha kubaka umubiri w'umuntu no kongeramo imbaraga.

Ibigori bisa n'icyatsi bitari byera biri guheka. Ibigori ni byiza cyane bitanga ibyatsi, ndetse binakungahaye kuri vitamini zigiye zitandukanye umubiri wacu ukeneye.

Voka z'icyatsi n'izirunze hamwe, voka ni nziza cyane ku muntu wayiriye, kuko igira vitamini zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu.

Inka nziza cyane , inka zifite akamaro kenshi cyane, harimo nko gutanga amata, inyama, bigafasha mu gutanga vitamini, ku mubiri w'umuntu.

Imifuka y'ibirayi itondetse hamwe, ibirayi ni byiza cyane byongera imbaraga mu mubiri w'umuntu wabiririye.

Avoka ikasemo ibice bibiri. Avoka ni nziza cyane kubera ko ifite vitamini nyinshi cyane zitandukanye, ku mubiri w'umuntu.

Umuntu ugiye gushyira ifumbire ku myaka. Gushyira ifumbire ku myaka ni ibintu byiza cyane, biyifasha gukura neza, igatanga umusaruro.

Umugore uri kuhirira imboga z'amashu. Izi mboga ni imboga nziza cyane, kubera ko zikungahaye ku ntungamubiri ifasha umubiri.

Abantu bari gutoragura ibirayi. Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane gikize kuri vitamini ndetse cyongera imbaraga umubiri w'umuntu.

Urubuto rwitwa ipera "ipera " ni urubuto rwiza cyane. Abantu bararikunda kuko rigira vitamini zigiye zitandukanye ku mubiri w' umuntu.

Amatunda yangiritse yumye. Amatunda iyo utayafashe neza aruma, kandi amatunda ni meza cyane kuko agira intungamubiri ku mubiri w' umuntu.

Amashu meza ni ubwoko bw'imboga bufasha umuntu mu mirire itandukanye, ndetse hakabamo na vitamini zigiye zitandukanye.

Abantu bari gutoragura ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane kubera ko bikize kuri vitamini zigiye zitandukanye zifasha kongera imbaraga m'umubiri w'umuntu.

Imifuka myinshi ipakiyemo ibirayi, ibirayi ni byiza cyane kuko bifasha umubiri w'umuntu kongera imbaraga n'izindi ntungamubiri zigiye zitandukanye.

Indimu , amaroji, imyembe , ni ubwoko bw'imbuto bwiza cyane, buzana vitamini . Umubiri w'umuntu wabiriye

Ibigori bifite ibara ry'icyatsi. Ibigori ni byiza cyane, kubera ko bigira intungamubiri zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Amagi menshi ari mu kantu kamwe. Amagi ni meza cyane, amagi afasha mukongera vitaminini zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu wayariye.

Umugore ufashe ibigori mu ntoki, ibigori ni byiza cyane, kuko iyo ubikozemo ifu ukabiteka, bigira intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu.

Inyanya zitukuye n'izidatukuye. Inyanya ni nziza cyane zifasha mu gukora isosi n'ibindi byinshi bitandukanye. Zifite na vitaminini ku mubiri w'umuntu waziriye.

Amatunda ahiye neza. Amatunda ni meza cyane, ni imbuto zizana intungamubiri na vitamini ku mubiri w’umuntu wayariye.

Inkoko ziri gutoragura, inkoko ni itungo ryiza cyane, kubera ko rivamo inyama zigatanga n'amagi, byose bifite vitaminini.

Abantu bari mu murima w'ibigori bari kubikorera neza. Ibigori ni byiza cyane bigira vitamini nyinshi ku mubiri wacu.

Ibigori bitari byera neza, bitari bya nasarurwa, ibigori ni byiza cyane, bigira intungamubiri zigiye zitandukanye, ku mubiri w'umuntu.

Ibirayi biri mu mufuka, ibirayi ni byiza cyane, kubera ko bigira intungamubiri zitandukanye, zifasha umubiri w'umuntu kongera imbaraga.

Imbuto zitwa pwavuro. Pwavuro ni imbuto nziza cyane ziri mu bwoko bw'imboga, zikaba zikize kuri vitamini umubiri ukeneye.

Umugore ufashe terefone uri mu murima w'ibirayi, ibirayi ni cyane kuko bifite intungamubiri ihagije ku mubiri w'umuntu.

Ibigori byeze ,ibigori ni byiza cyane ku k'umuntu wabiriye, kubera ko bigira intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye.

Uduhene tukiri dutoya, ihene n'ubwoko bw'amatungo magufi. Ihene ni nziza cyane ku muntu wazoroye neza, kuko zizana amafaranga mu muryango.

Urugemwe rw'ikinyomoro kitari cyakura. Ikinyomoro ni cyiza cyane kuko ni urubuto rwiza cyane, rukubiyemo vitamini nyinshi cyane ,harimo n'akandi kamaro ko kongera amaraso ku mubiri w'umuntu.

Abantu bari kwita ku muceri. Umuceri ni igihingwa cyiza cyane, cyifashishwa mu bukwe no mu bindi bikorwa bitandukanye, kizana vitamini mu mubiri w'umuntu.

Imineke ihiye n'idahiye. Imineke ni myiza cyane, igira intungamubiri nyinshi umubiri wacu uhora ukeneye.

Umukecuru uri kubagara ibigori, ibigori ni igihingwa cyiza cyane, gitanga intungamubiri ku mubiri, ku muntu wakiriye.

ingurube iryamye, ibibwana byayo biri konka. Ingurube ni nziza cyane, kubera ko igira inyama zifite vitaminini zikungahaye.

Oranje ni ubwoko bw'imbuto nziza zitukura zikaba umuhondo, zikunze kugira vitamine nyinshi cyane ku muntu waziriye.

Inkoko nziza cyane y'isake. Inkoko ni nziza cyane, kuko zitanga inyama, umubiri w'umuntu ukabona vitamini.

Imiteja ijya isa n'icyatsi. Imiteja ni ubwoko bw'imboga bwiza cyane, bukize kuri vitaminini zigiye zitandukanye.

Imboga z'amashu. Amashu ni meza cyane, kuberako yongera vitamini ku mubiri wacu, bikaduha imbaraga zo gukora iyindi mirimo.

Impeke z'ibigori. Ibigori ni byiza cyane, kubera ko bifasha mu kongera intungamubiri, umubiri w'umuntu wabiriye.

Ibigori bisa nk'aho bigiye kwera. Ibigori ni byiza cyane kuko birimo intungamubiri nyinshi cyane, umubiri wacu ukeneye.

Ibigori bisa n'icyatsi bitari byera neza. Ibigori ni byiza cyane kuko bizana intungamubiri mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibisheke bitemaguye. Ibisheke ni byiza cyane kuko byongera isukari mu mubiri w’umuntu. Ibisheke ni byiza cyane ku muntu wabiriye.

Ibijumba birunze hamwe byiza. Ibijumba ni igihingwa cyiza cyane, kigira intungamubiri zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu.

Ibijumba by'umutuku bisa n'umuhondo imbere ni byiza cyane, kuko nabyo bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu zigiye zitandukanye.

Ibigori byumye bimanitse ahantu heza cyane hatanyagirwa. Ibigori ni byiza cyane bigira intungamubiri nyinshi cyane ku muntu wabiriye.

Abantu bari gusarura ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane. Ibirayi bizana vitamini mu mubiri w'umuntu, harimo nko kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Umugore uri gukura ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri nyinshi, ku mubiri w'umuntu wabiriye bikongera n'mbaraga.

Ibigori byeze, bihinze mu gishanga. Ibigori ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu, kuko bivamo igikoma n'umutsima.

Abantu bari gusoroma icyayi, icyayi ni cyiza cyane kuko kinjiriza igihugu cyacu amafaranga menshi, nacyo kikiteza imbere mu kuzana ibikorwa remezo bigezweho.

Umwumbati uteye mu butaka . Umwumbati ni mwiza cyane, kuko wongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Imyembe ya kizungu. Imyembe ni myiza cyane kuko izana vitamini mu mubiri w'umuntu wayiriye.

Ibijumba byinshi, ibijumba ni byiza cyane kuko bituma umubiri w'umuntu ugira imbaraga nyinshi cyane zo gukora.

Intoryi ni ubwoko bw'imboga. Intoryi ni igihingwa cyiza wakoramo imboga, ukabona vitamini zigiye zitandukanye mu mubiri wawe.

Inkoko iri kumwe n'udushwi twa yo. Inkoko ni nziza cyane, zitera amagi, zikavamo inyama, byose bifite vitaminini zigiye zitandukanye.

Ibitoki bisa nk'aho ari byinshi, ibitoki ni byiza cyane, kuko bifite vitamini nyinshi cyane, umubiri wacu ukeneye buri munsi.

Pavuro n'inyanya. Pavuro n'ubwoko bw'imboga, ndetse n'inyanya bikize kuri vitaminini zigiye zitandukanye, mu gufasha umubiri w'umuntu.

Ibitoki bihinze mu butaka bwiza na byo ni byiza cyane, kuko bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu iyo yabiriye.

Karoti zipakiye neza. Karoti ni nziza cyane kuko zifasha mu kongera vitamini ivura amaso y' umuntu.

Amashu ateye neza kumuronko. Amashu ni meza cyane, ni ubwoko bwimboga bwiza, bufasha mu kuzana intungamubiri zitandukanye mubiri w'umuntu.

Ibirayi biri kugisima, ibirayi ni byiza cyane kuko bizana intungamubiri mu mubiri w'umuntu, harimo nko kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Avoka nyinshi zikiri mu giti zimanitse. Voka ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu waziriye, iyo aziriye abona vitaminini nyinshi zigiye zitandukanye.

Igihaza gisatuyemo kabiri gisa n'umuhondo mo imbere. Igihaza ni cyiza cyane, kigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu wakiriye.

Imyumbati itondetse neza, imyumbati ni myiza cyane kubera ko yongera imbaraga mu mubiri w'umuntu wayiriye.

Avoka isatuye iyindi ibumbye, voka ni nziza cyane kuko ikize kuri vitamini, umubiri wacu ukeneye.

Avoka mbisi zikiri mu giti. Avoka ni nziza cyane kuko zifite intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu waziriye.

Umugore uri kugura inanasi mu isoko, inanasi ni nziza cyane ,ni mu bwoko bw'imbuto bufite intungamubiri nyinshi umubiri ukeneye.

Impeke z'ibigori . Ibigori , ni byiza cyane . Kuko , bifite intungamubiri zigiye zitandukanye ku mubiri , w'umuntu wabiriye.

Ibigori bimeze nkaho bigiye kwera ariko bisa ni'cyatsi, bikiri mu murima. Ibigori ni byiza cyane, kubera ko bigira vitamini nyinshi umubiri wacu ukeneye.

Imiteja, karoti, intoryi, puwavuro, inyanya. Ibi ni ubwoko bw'imboga bwiza cyane, bugira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Intoryi, inyanya n'urusenda . Intoryi z'umuhondo, ariko zidatukuye cyane , zifasha abantu mu gutegura amafunguro atandukanye . Kandi, zibamo intungamubiri nyinshi .

Amateke akataguye. Amateke ni ikiribwa cyiza cyane cyongera imbaraga mubiri ku muntu wakiriye.

Abantu bari gusoroma icyayi. Icyayi ni cyiza cyane kubera ko kizana amafaranga mu gihugu cyacu.

Abantu bari gutera umuti mu bigori, kwita ku bigori ni byiza cyane, kuko bikubiyemo intungamubiri nyinshi cyane, zigiye zitandukanye.

Imyumbati ipakiye mu mufuka. Imyumbati ni myiza cyane, kuko yongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Umugabo uri kuvomerera ibitunguru, kwita ku myaka ni byiza cyane kuko bizifasha gukura neza umuntu akabonamo inyungu yateganyije.

Abantu bari gusoroma icyayi. Icyayi ni cyiza cyane, kuko ni igihingwa kizana amafaranga, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Inyanya, imyembe n'ibihaza ni ibintu byiza cyane, kubera ko byose bikubiyemo intungamubiri zigiye zitandukanye, zifasha umubiri wacu.

Avoka ikase neza, voka ni nziza cyane ku mubiri w' umuntu wayiriye ahorana akanyamuneza, kandi ikongera vitaminini mu mubiri we.

Igihingwa cy'ibirayi: Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa cyiza cyane kuko gifite vitaminini nyinshi zigiye zitandukanye, mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Utunyama tw'inka turi konka. Korora inka ni byiza, kuko bizanira umuryango amafaranga, abana bakabona amata yo kunywa.

Intama eshatu z'umweru, intama ni ubwoko bw'itungo rigufi ryiza cyane, rivamo inyama, zikazana intungamubiri, mu mubiri w'umuntu waziriye.

Avoka zimeze nk'aho zeze, avoka ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu waziriye, kuko zigira vitaminini nyinshi cyane, umubiri ugukeneye.

Umugabo uri mu birayi bigiye kwera. Ibirayi ni byiza cyane kuko bitanga imbaraga ku mubiri w'umuntu wabiriye. Ibirayi ni byiza cyane kuko bibamo vitamini zigiye zitandukanye.

Inka nziza cyane iryamye, inka ni nziza cyane kuko igira inyama, ndetse ikavamo amata, kandi byose bifite intungamubiri ku mubiri w'umuntu, zigiye zitandukanye.

Udutama tubiri, intama ni amatungo magufi afite akamaro kenshi cyane, harimo mu gutanga ifumbire, inyama, zikagira intungamubiri ku mubiri w'umuntu nyinshi cyane.

Imyembe ya kizungu, imyembe ni myiza cyane, kubera ko ibamo intungamubiri, umubiri wacu uhora ukeneye buri munsi.

Umugabo ufashe amahundo y'ibigori byumye. Ibigori ni byiza cyane kubera ko bigira intungamubiri nyinshi cyane kumubiri wacu.

Abagabo bari gufuhira ibigori, gufuhira imyaka ni byiza cyane, bituma ibisimba bimwe na bimwe bipfa, ntitwone imyaka.

Itunda risatuye; Itunda ni ubwoko bw' imbuto bugira vitamini nyinshi cyane, nziza zifasha umubiri w' umuntu.

Aamaronji ari mu gitebo, amarongi ni meza cyane kuko ni imbuto nziza cyane. Zigira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu.

Ibitoki bitondetse hamwe. Ibitoki ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri ku muntu wabiriye, akabona intungamubiri nyinshi cyane.

Imiteja iva ku bishyimbo. Imiteja ni myiza cyane, kuko yifashishwa mu cyimbo cyo guteka imboga, ikagira intungamubiri nyinshi cyane ku mubiri w'umuntu.

Abagabo babiri bari mu bishyimbo biteze neza by'imiteja. Ibishyimbo ni byiza cyane kuko bizana intungamubiri mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibishiyimbo bibisi bidatonoye biri mu gatebo, ibi bishyimbo biri mu bwoko bw'imboga. Bigira vitamini nyinshi zitandukanye zifasha umubiri w'umuntu.

Amateke akataguye . Amateke ni meza cyane , kuko, agira intungamubiri nyinshi cyane, harimo kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu .

Amaronji atukuye ahiye neza, amaronji ni meza cyane, kuko azana vitamini zitandukanye ku mubiri w'umuntu wayariye.

Abantu bafite imboga zigiye zitandukanye. Harimo inyanya ndetse n'izindi za dodo. Imboga ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu, kuko zirimo vitamin nyinshi cyane akeneye.

Ibyatsi byiza, ibyatsi ni byiza wabigaburira itungo ryawe, umukamo ukiyongera. Maze amata akaboneka ukabona vitamini zikubiye muri ayo mata wabonye.

Amasaka ni meza cyane ku mubiri w'umuntu, kubera ko akungahaye ku ntungamubiri zigiye zitandukanye.

Ibishyimbo by'umutuku birunze hamwe. Ibishyimbo ni byiza cyane kubera ko bigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Imiteja ikiri mito. Imiteja ni myiza cyane, ni ubwoko bw'imboga zikubiyemo vitamini nyinshi k'umubiri w'umuntu waziriye.

Imiteja iri mu gitebo y'ubwoko bubiri butandukanye; imiteja ni myiza cyane ni ubwoko bw'imboga bufite vitamini n'intungamubiri nyinshi umubiri w'umuntu ukeneye.

Ibigori biteze neza, ibigori ni byiza cyane, kuko bigira intungamubiri zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibigori byinshi byumye birunze hamwe, ibigori ni byiza cyane byera mu Rwanda rwacu, kandi bikubiyemo intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye.

Umugore uri guhungura ibigori. Ibigori ni byiza cyane kubera ko bifasha kongera imbaraga, n' intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Amasaka yeze, amasaka ni meza cyane yengwamo umusururu, akubiyemo vitaminini nyinshi zigiye zitandukanye zifasha umubiri w'umuntu.

Impeke z'ibigori nyinshi zisa n'umuhondo, impeke z'ibigori ni nziza cyane wazibeteshamo ifu hakavamo igikoma n'umutsima byose bikubiyemo vitamini zigiye zitandukanye.

Inzuzi z’ibihaza ziri mu mufuka. Inzuzi ni nziza cyane. Iyo umuntu aziriye, ashobora kubona vitamini zigiye zitandukanye.

Ubwoko butandukanye bw'ibinyampeke, ibinyampeke ni byiza cyane ku mubiri w'umuntu kuko bifite vitamini zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu by'ingirakamaro.

Ubunyobwa butonoye n'ubudatonoye. Ubunyobwa ni bwiza cyane, kuko bukubiyemo intungamubiri nyinshi zitandukanye.

Abagore babiri bari guhura ibishyimbo. Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane, gikize kuri vitamine zitandukanye umubiri wacu ukeneye.

Abantu bari guhura umuceri. Umuceri ni mwiza cyane, kuko ukubiyemo vitamini nyinshi zigiye zitandukanye.

Ibigori bimanitse byumye neza, ibigori bigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu kuko bivamo igikoma n'umutsima.

Ibishiyimbo byiza by'umutuku birunze ahantu. Ibishyimbo ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Inzu nini imanitsemo ibigori byumye, ibigori ni byiza cyane, bikungahaye kuri vitamini n'intungamubiri, bigiye bitandukanye.

Ibigori byumye byanitse ku biti. Ibigori ni byiza cyane kuko birimo intungamubiri zigiye zitandukanye.

Umuceri utari wera neza , umuceri n'igihingwa cyiza cyane, kuko ufite vitamini nyinshi cyane zitandukanye, umubiri wacu ukeneye.

Umufuka urimo umuceri ,umuceri ni mwiza cyane kubera ko ugira vitamini nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Amasaka ameze nk'aho yeze. Amasaka ni meza cyane kuko ni ikinyampeke gikize ku ntungamubiri nyinshi cyane umubiri wacu ukeneye.

Abantu bari gusarura amasaka. Amasaka ni meza cyane, akubiyemo intungamubiri zigiye zitandukanye, umubiri uhora ukeneye.

Ubunyobwa ni bwiza bwi'impeke, ubunyobwa ni bwiza cyane, kubera ko bufite vitaminini zigiye zitandukanye, zifasha umubiri wacu.

Inzuzi, inzuzi ni nziza cyane kuko zifitiye akamaro kenshi umubiri wacu kagiye gatandukanye, kandi zigira na vitamini.

Ubwoko butandukanye bw'ibishyimbo, ibishyimbo ni byiza cyane, kubera ko bikubiyemo intungamubiri nyinshi cyane, ifasha umubiri w'umuntu.

Ibigori byumye bimanitse hamwe. Ibigori ni byiza cyane, kuko bivamo vitamini nyinshi cyane, zifasha umubiri w'umuntu wabiriye.

Ubunyobwa buranduye bugifunitse. Ubunyobwa ni bwiza cyane ku mubiri w'umuntu waburiye, kuko buzana vitaminini mu mubiri we.

Imifuka irimo umuceri. Umuceri ni mwiza cyane kuko ubamo intungamubiri zitandukanye zifasha umubiri w'umuntu.

Uruyange n'uduteja duto tw'ibishyimbo. Ibishyimbo ni igihingwa cyiza cyane ngandurarugo cyifashishwa mu kuzana vitamine, no kongera imbaraga mu mubiri w'umuntu.

Soya zeze neza. Soya ni ikinyampeke cyiza cyane, kubera ko gifasha ukongera vitamini zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu.

Ibiganza bifashe ikawa itonoye, ikawa ni nziza cyane yera mu Rwanda kandi igaha umuntu wayihinze amafaranga menshi akiteza imbere.

Ubunyobwa bw 'impeke bwiza cyane kuko ubunyobwa bugira intungamubiri zigiye zitandukanye, ku mubiri w'umuntu bumwongereraga imbaraga, kuko buri mu bwoko bw'ibishyimbo.

Umufuka urimo impeke z'ingano. Ingano ni nziza cyane kuko zifite vitamini zitandukanye, zifasha umubiri w'umuntu.

Umugabo uri mu muceri ari kuwukorera, umuceri ni mwiza cyane, ugira intungamubiri zigiye zitandukanye ku mubiri wacu.

Ibishyimbo bifite uruyange n'uduteja duto. Ibishyimbo ni byiza cyane, bikize ku ntungamubiri zigiye zitandukanye, umubiri wacu ukeneye.

Ibigori bimanitse byumye. Ibigori ni byiza cyane, kubera ko bigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Igihingwa cy'amajyeri atari yera neza, amajyeri ni meza cyane, kuko agira intungamubiri nyinshi zitandukanye ku mubiri w'uwayariye.

Abagore bari gugosora ibishyimbo. Ibishyimbo ni byiza cyane, kuko bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu zigiye zitandukanye.

Amajeri ahinzwe mu buryo bwiza. Amajeri ni meza cyane, agira intungamubiri zihagije ku mubiri wacu.

Imifuka irimo ubwoko bugiye butandukanye bw'impeke. Izi mpeke ni nziza cyane kuko zikize kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Amasaka yeze , ageze igihe cyo gusarurwa . Amasaka ni meza cyane . Harimo intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye mu mubiri wacu .

Umugore ufite ibase irimo ibishyimbo . Ibishyimbo ni byiza cyane, kuko bikize kuri vitamini zigiye zitandukanye umubiri ukeneye.

Ubunyobwa budatonoye . Ubunyobwa , ni bwiza cyane, kuko buzana vitamini zigiye zitandukanye mu mubiri w'umuntu waburiye .

Ubunyobwa budateguye neza. Ubunyobwa ni bwiza cyane, kuko bufite vitamini nyinshi zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu.

Ibishiyimbo biri mu kagemeri, ibishiyimbo by'umutuku. Ibishimbo bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu, bikamwongerera n'imbaraga zo gukora imirimo ye.

Ubunyobwa budatonoye, ubunyobwa ni bwiza cyane, kuko bufite intungamubiri nyinshi zitandukanye, ku mubiri w'umuntu waburiye.

Ubunyobwa budatonoye. Ubunyobwa ni bwiza cyane kuko bugira intungamubiri ku mubiri w'umuntu waburiye.

Amasaka asa naho yeze ageze igihe cyo gusarura; amasaka ni meza cyane n'impeke zifite intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Ibireti byanitswe ku ihema. Ibireti ni igihingwa cyiza cyane, ibireti byifashishwa mu gukorwamo imiti igiye itandukanye, ivura indwara zitandukanye.

Igihwagari cyeze neza. Igihwagari ni igihingwa cyiza cyane, kuko kigira akamaro kenshi cyane, harimo nko gukoramo amavuta, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Umuceri uri mu mufuka, umuceri ni mwiza cyane, ni ibihingwa bikize kuri vitamini zigiye zitandukanye.

Ibishyimbo bisa n'umweru n'umutuku. Ibishyimbo ni byiza cyane bigira vitaminini zigiye zitandukanye ku mubiri w'umuntu.

Umufuka urimo ingano. Ingano ni ikinyampeke cyiza cyane, kigira vitamini zifasha umubiri w' umuntu.

Ibigori bipakiye mu mifuka, ibigori ni byiza cyane, ibigori bizana vitaminini mu mubiri w'umuntu.

Umuceri ugeze mu gihe cyo kwera, umuceri ni mwiza cyane, kuko ufite vitamini nyinshi zigiye zitandukanye.

Igishanga gihingwamo umuceri. Umuceri ni mwiza cyane, kuko uvamo vitamini, ndetse ugatanga n'amafaranga ku bawuhinze.

Amasaka arunze hamwe. Amasaka ni meza cyane. Yifashishwa mu gukora umusururu no kwenga, ndetse akagira n'intungamubiri mu binyampeke ku mubiri w'umuntu.

Ubunyobwa bw'impeke, ubutonoye n'ubudatonoye. Ubunyobwa ni bwiza cyane, kubera ko bufitemo intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye.

Igihingwa cy'umuceri. Umuceri ni mwiza cyane, kuko ufite intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye ku mubiri w'umwuntu.

Igihwagari kiteze neza. Igihwagari ni igihingwa cyiza cyane cyifashishwa mu gukorwamo amavuta.

Amasaka adahuye. Amasaka ni meza cyane, kuko ni Impeke zongera intungamubiri ku muntu waziriye.

Ibishyimbo biri mu mufuka w'umweru ,ibishyimbo ni byiza cyane mu mubiri k'umuntu wabiriye, kuko bimwongerera imbaraga akamererwa neza.

Ibihwagari bigiye kwera. Ibihwagari ni byiza cyane. Ibihwagari byifashishwa mu gukorwamo amavuta n'ibindi bigiye bitandukanye.

Uduheke tw'amajeri tugiye turimo uduce uduce, izi mpeke ni nziza cyane, iyo umuntu azitetse akazirya, abona intungamubiri mu mubiri we, zigiye zitandukanye.

Imiteja irunze hamwe, imiteja ni ubwoko bw'imboga bwiza cyane bukubiyemo vitamini nyinshi cyane.

Ibishyimbo byiza cyane by'umutuku. Ibishyimbo ni byiza cyane kubera ko bifite akamaro kenshi, ku mubiri w'umuntu, bifite vitamini nyinshi cyane.

Ibishyimbo byiza biri ku isahani by'umutuku, ibishyimbo ni byiza cyane kuko byongera imbaraga ku mubiri w'umuntu.

Ibigori bimanitse ahantu hamwe byumye . Ibigori, ni byiza cyane, kuko bizana intungamubiri mu mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibishyimbo bigeze mu gihe cyo kuzana uruyange. Ibishyimbo ni byiza cyane bifasha kuzana intungamubiri mu mubiri w' umuntu wabiriye.

Abantu bari gusarura amasaka mu murima. Amasaka ni meza cyane, ikinyampeke gifite vitamini zitandukanye umubiri wacu ukeneye.

Ubunyobwa buri mu bitebo, ubunyobwa ni bwiza cyane, kuko bugira vitaminini zigiye zitandukanye, ku mubiri w'umuntu.

Ibishyimbo bikiri imiteja. Ibishyimbo ni byiza cyane uko wabirya bingana kose. Bigira intungamubiri nyinshi ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Ubwoko bw'amasaka butandukanye. Amasaka ni meza cyane, yengwamo umusururu kandi agira intungamubiri nyinshi cyane.

Impeke za soya ziri kuva mu gatebo. Soya ni nziza cyane ku mubiri w'umuntu, kuko ikubiyemo vitamini nyinshi cyane ku muntu wayiriye, cyangwa se wayinyweyemo igikoma.

Umurima uhinzemo igihingwa cy'umuceri, umuceri ni mwiza cyane, ukize kuri vitamini zigiye zitandukanye, zifasha umubiri wacu.

Ibigori byeze, byumye bikiri mu murima ,ibigori ni byiza cyane kuko bigira intungamubiri, ku mubiri ku muntu wabiriye.

Ibigori byiza bitonoye bisa nk'aho bikiri bibisi. Ibigori ni byiza cyane kuko bifite vitaminini umubiri ukeneye.

Imiteja y'amashaza cyangwe se amajeri. Amajeri ni meza cyane, kuko ni imbuto cyangwa se impeke, zikize ku ntungamubiri umubiri wacu ukeneye.

Ibigori birunze hamwe, ibigori ni byiza cyane, kuko bifite akamaro kenshi cyane ku mubiri w'umuntu wabiriye, nko kuzana vitamini mu mubiri w'umuntu.

Ibishyimbo by'umutuku birunze hamwe, ibishyimbo ni byiza cyane, byifashishwa mu kongera vitaminini mu mubiri wacu.

Ibigori by'amahundo, ibigori ni byiza cyane, kubera ko bigira intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu wabiriye.

Ibishyimbo bikiri imiteja, ibishyimbo biba biri mu bwoko bw'imboga, iyo bikiri imiteja biba bifite vitamini nyinshi cyane.

Ibishyimbo bikiri imiteja, ibishyimbo ni byiza cyane kubera ko bigira intungamubiri nyinshi cyane, ku mubiri w'umuntu.

Ubunyobwa budatonoye, ubunyobwa ni bwiza cyane ku mubiri w'umuntu, ubunyobwa bwikubiyemo vitamini nyinshi zigiye zitandukanye.

Ibigori byumye bimanitse ku biti. Ibigori ni byiza cyane, ni ibinyampeke bikize kuri vitamini zigiye zitandukanye, zifasha umubiri w'umuntu.

Umuveterineri uri gukingira ihene. Gukingiza amatungo ni byiza cyane, kuko biyarinda indwara zigiye zitandukanye.

Inka ebyiri. Inka ni nziza cyane , zitanga amata, inyama, bikubiyemo intungamubiri zifasha umubiri w'umuntu .

Inka iri kurisha ubwatsi, inka ni nziza cyane, inka itanga inyama, amata, ndetse n'amafaranga mu muryango, inyama zivamo vitamini, n'amata bigafasha umubiri w'umuntu wabiriye.

Inka nziza iri mu kiraro. Inka ni nziza cyane kubera ko itanga amata n'inyama bifite vitamini umubiri wacu ukeneye.

Ingurube iri mu kiraro cya kijyambere. Korora ingurube ni byiza cyane, kuko zitanga inyama. Umuntu uziriye akabona vitamini zitandukanye.

Urukwavu rwa kizungu ruri mu kibuti. Urukwavu ni rwiza cyane ku muntu warworoye neza ,kuko rwamuha amafaranga yo kwifashisha mu bibazo bugiye bitandukanye.

Inkoko zororewe mu nzu. Inkoko ni nziza cyane kuko zitera amagi, kandi zikagira inyama, byose bikungahaye kuri vitamini.

Inka ziri kurisha. Inka ni nziza cyane kubera ko zivamo inyama zigatanga amata, byose bikubiyemo intungamubiri zigiye zitandukanye.

Ingurube yorowe mu buryo bwa kijyambere, ifite n'ibibwana. Korora ingurube ni byiza cyane kuko zitanga amafaranga ndetse n'inyama zifite vitamini.

Veterineri uri gutera amatungo vitamini cyangwa se inkingo. Kwita ku matungo ni byiza cyane, kuko bifite akamaro kenshi kagiye gatandukanye.

Ingurube zorowe mu bworozi bwa kijyambere. Ingurube ni itungo rigufi ryiza cyane rivamo inyama ndetse rikazanira n'amafaranga umuntu uzoroye neza.

Ingurube iryamye nini cyane, ingurube ni nziza cyane, kubera ko itanga inyama ivamo vitamini zifasha mu kubaka umubiri wacu.

Amatureyi menshi apanzemo amagi. Amagi ni meza cyane ku mubiri w'umuntu wayariye kandi akamufasha kuzamura imirire myiza mu muryango we.

Inkwavu ziri kurishiriza hamwe za kizungu. Inkwavu ni nziza cyane, iyo uzoroye neza ziguha amafaranga, kandi zigatanga n'inyama ikubiyemo vitamin zigiye zitandukanye.

Inkoko nyinshi cyane, ziri mu nzu . Inkoko, ni nziza cyane , kubera ko zitanga amagi, inyama, bikize kuri vitamini zigiye zitandukanye .

Umugore uri kugaburira inka, inka ni nziza, iyo uyitayeho itanga amata menshi, ndetse zitanga n'inyama, byose bifite vitaminini ku mubiri wacu.

Inka ziri kurisha zitanga amata menshi iyo zariye neza, amata agira intungamubiri nyinshi, afasha abantu kurwanya imirire mibi.

Ingurube iri konsa utubwana twayo; ingurube ni bwoko bw'itungo rigufi, ingurube itanga inyama kandi zifite vitaminini mubiri muntu wayiriye.

Umwana uri kurya igi, igi ni ryiza cyane ku mwana ndetse n'umuntu mukuru, kuko rikubiyemo intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye.

Amashyo y'inka, inka ni nziza cyane, kuko itanga amata, inyama, birimo intungamubiri nyinshi cyane.

Inkoko y'umweruru, n'iy'umuhondo, ndetse n'iy'umukara. Inkoko zigira inyama zitanga intungamubiri ku mubiri w'umuntu, ndetse zigatera n'amagi.

Inka nyinshi, ishyo ry'inka mu kinyarwanda cyiza. Inka ni nziza cyane ku kuko zitanga amata, zikavamo inyama byose bikize kuri vitamini umubiri ukeneye.

Inka ziri mu gikuyu cyangwa se mu rwuri ziri kurisha. Inka ni nziza cyane zitanga amata, ndetse n'inyama bifite vitamini nyinshi cyane umubiri wacu ukeneye.

Amatureye y'amagi yatondetse neza, amagi ni meza cyane, agira intungamubiri ihagije ku mubiri, w'umuntu wayariye.

Ihene nyinshi cyane cyangwa se umukumbi. Ihene ni itungo rigufi ryiza cyane, kubera ko ritanga inyama zikubiyemo vitamini umubiri wacu ukeneye.

Veterineri uri gukingira itungo. Gukingiza itungo ni byiza cyane kuko biririnda izindi ndwara, ndetse no gukurizamo urupfu rwa hato na hato.

Ibiganza biri kugaburira udukwavu, udukwavu ni twiza cyane, iyo uzoroye neza ziguha amafaranga, kandi inkwavu zitanga inyama nziza cyane ku ntungamubiri.

Inkoko ni ubwoko bw'amatungo magufi atanga amagi ,inyama ndetse n'amafaranga ku muntu uzoroye, akiteza imbere. Inkoko ni nziza cyane kubera ko zitanga ifumbire, ku muntu uzoroye.

Amatungo magufi arimo ihene, afite akamaro kenshi cyane kubera ko atanga inyama zifite vitamini nyinshi ku mubiri w'umuntu.

Inka iryamye mu rwuri cyangwa se mu gikuyu. Inka ni nziza cyane ivamo inyama, igatanga n'amata byose bikize kuri vitamini zitandukanye.

Ihene y'amabara atandukanye. Ihene ni itungo rigufi ryiza cyane, kuko ritanga inyama nziza zikubiyemo vitamini, intungamubiri bitandukanye.

Umuveterineri uri gukingira inka, gukingiza itungo ni byiza cyane, kuko biririnda izindi mu ndwara zitandukanye.

Ingurube nyinshi zorowe neza. Ingurube ni nziza cyane kubera ko zigira inyama nziza, zikubiyemo vitaminini zitandukanye.

Inkoko ziri gutoragura zororewe mu nzu. Inkoko ni nziza cyane kuko zitera amagi, zikagira n'inyama. Byose bifite intungamubiri.

Ingurube nini cyane. Ingurube iyo yorowe neza izana amafaranga mu muryango, kandi igatanga inyama zigira intungamubiri ku mubiri w'umuntu.

Inkoko nyinshi z'umweru. Inkoko ni nziza cyane iyo wazoroye neza, kuko zifasha mu kuzana amafaranga iyo zateye amagi, kandi agira intungamubiri ku mubiri w’umuntu.

Inka nini cyane ifite akamaro kanini cyane, karimo nko kuduha amata, inyama zifite intungamubiri zihagije.

Intama ni ubwoko bw'itungo rigufi, intama ni nziza cyane kubera ko itanga inyama, ifite vitamini zigiye zitandukanye, ku mubiri wacu.

Agakoko gatoya k'umweru, korowe mu buryo bwa kijyambere. Inkoko ni nziza cyane, kuko zitanga inyama zifite vitamini nyinshi cyane.

Inka ziri mu rwuri ziri kurisha inka ni nziza cyane. Inka zivamo inyama ndetse zigatanga na mata bikazana vitamini mu mubiri wu muntu wabiriye.

Ingurube nini cyane, ingurube ni nziza cyane kubera ko igira inyama, ifite vitamini mu mubiri w'umuntu ukeneye.

Inkoko nyinshi cyane, inkoko ni nziza cyane zitera amagi, zikavamo inyama, byose bifite vitaminini zigiye zitandukanye.

Ingurube zororewe mu biraro bya kijyambere, ingurube ni nziza cyane, kubera ko zitanga inyama zifite vitamini nyinshi.

Ubworozi bw'inkoko, inkoko ni nziza cyane ku muntu wazoroye neza kubera ko zitanga inyama, zifite intungamubiri nyinshi.

Amagi arunze hamwe ku matureyi, amagi ni meza cyane, havamo intungamubiri, vitaminini bigiye bitandukanye bifasha umubiri w'umuntu.

Inkoko z'umukara n'iz'umweru. Inkoko ni nziza cyane kubera ko zitera amagi zikavamo inyama byose bikize kuri vitamini zitandukanye.

Amagi meza y'umweru atondetse neza. Amagi ni meza cyane kuko afasha kuzana intungamubiri, mu mubiri w' muntu wayariye.

Inka nini iri mu kiraro iri kurisha, inka ni nziza cyane, kuko zitanga amata, zikavamo n'inyama, byose bikungahaye kuri vitamini zitandukanye.

Inka ziri kurishiriza hamwe. Inka ni nziza cyane, kubera ko zitanga amata n'inyama. Kandi bikagira vitaminini ku mubiri w'umuntu.

Akana k'ingagi karyamye mu bibero bya nyina, ingagi ni inyamaswa nziza cyane zigaragara ino aha iwacu mu Rwanda, ingagi zinjiriza igihugu amadovize, kubera ko zikurura ba Mukerarugendo.

Intare iryamye ku giti cyumye. Intare ni inyamaswa nziza cyane izanira igihugu amafaranga, kuko abakerarugendo bakunda cyane kuzisura.

Umusambi, umusambi ni inyoni nziza cyane ikurura ba mukerarugendo, bakaza bazanye amadovize mu gihugu cyacu kikiteza imbere.

Inyoni ihagaze ku giti. Inyoni ni ubwoko bw'inyamaswa bwiza cyane buguruka, inyoni zikurura ba mukerarugendo, mu maparike agiye atandukanye, bakadusigira amadovize.

Utunyamaswa tumeze nk'aho ari uduhene two mu rugo ariko two ni utwo mu ishyamba, dufite akamaro kenshi cyane kuko dukurura ba mukerarugendo bakazana amadovise.

Inyoni yitwa umununi, inyoni ni ikiremwa kiguruka cyiza cyane cyaremwe n'Imana. Iyo ziri hamwe ba mukerarugendo barazisura igihugu cyacu kikabona amafaranga.

Imparage ni nziza, imparage n'inyamaswa ziba mu mashyamba, imparage zikurura ba mukerarugendo, bakazana amadovize mu gihugu cyacu kikiteza imbere.

Imbata y'umweru n'umukara. Imbata ni nziza cyane kuko n'itungo ritera amagi rigatanga n'inyama. Imbata ni nziza cyane ku muntu wayoroye neza, kuko inyama zayo zigira vitamini nyinshi cyane.

Isatura, isatura ni inyamaswa izi kwiruka cyane. Inyamaswa ikaba ikurura ba mukerarugendo, bakazanira igihugu amafaranga.